Umupolisi aguhagaritse ugomba guhagarara, ibyo agusabye ukabimuhereza, ibyo akubajije ukakimusubiza ntutongane nawe. Ukamuha amakuru akubajije ibyo bintu biba byiza.

Amatara yo ku mihanda aba meza. Iyo uri kugenda ABA agucaniye, n'abasambo iyo bakubonye ntibapfa kukwiba, kuko baba babona abacanyeho.

Imyitozo nazo ziba ari myiza. Iyo mwitoza, mwumva mwishimye, mukumva mumeze neza. Hari n'ibyo uba utazi, ukabimenya, kubera ko muba muri kwitoza. Wumva umeze neza, iyo uri mu myitozo, uba wishimye uri kumwe n'abandi.

Ku mihanda habaho za kamera hakabaho n'amatara, imodoka ziri kwiruka kamera irayifata , yagenda iri kwiruka imenya ko yakoze amakosa ibonye mesaje, niyo mpamvu utwaye nk'ikinyabiziga ugomba kugenda witonze, wigengeseye kuko uba utazi aho kamera ziba ziri.

Umukozi uwo ari we wese waba uwa Ribu, waba uwa polisi, waba umusirikare, hari igihe muba mukeneye kugira ngo muteranire hamwe hari icyo mushaka kwiga, kugira ngo muzagire ikintu mugeraho mugateranira hamwe, mukiga ibyo mushaka kwiga, mukagera ku ngingo y'icyabateranyije, iyo mwicaye hamwe mukajya inama.

Abamotara bose iyo bahure hamwe, Porisi ikabaremesha inama, ikababwira ibyifuzo bya bo, n'abandi bakababwira ibyifuzo bya bo nta ubangamiye undi, ibyo bintu bigenda neza.

Indege ziba nziza, no ku kibuga k'indege ubona ari heza haba hafite umutekano, indege iguruka ntakibazo ifite kubera ko n'ahantu haba hameze neza, hatuje hafite abasekirite ikibuga cy'indege kibaba ari kiza n'indege ziba ari nziza.

Ingabo z'u rwanda zisa neza bambara neza bambara imyenda myiza, y'abari kuri defire baba baberewe cyane, ubona ari beza cyane rwose nawe wabakunda ubarebye aba murideseri.

Kummvira abayobozi b'umutekano inama bari kutugira, biba byiza iyo tuzumviye, tukazikurikiza, bituma iterambere ryacu rirushaho kugenda neza muri rusange.

Abaporisi bakora defire ukabona ni byiza ukabona birababereye. Iyo badefira ari bensh,i ari imirongo myinshi ubona ari byiza bibabereye.

Moto ziba nziza, iyo zitwaye abagenzi bambaye amakasike, bituma bagenda bameze neza baba bizeye umutekano, kuko niyo ukoze impanuka ntabwo umutwe wajanjagurika nk'umuntu utambaye kasike, niyo mpamvu kwambara kasike biba ari byiza.

Akarasisi k'abasirikare kaba ari keza, kaba gashimishije. Umuntu ashimishwa no kukareba kubera ukuntu baba bari gukora defire neza bari ku murongo, bakurikiranye, bari kugenda, ukabona ni byiza, ni ibintu bibereye amaso. akarasisi kaba keza cyane.

Inama ni ingirakamaro. Iba nziza. Iyo witabiriye akagoroba k'ababyeyi umenyeramo byinshi, ugatera imbere. Hari ibitekerezo utari uzi umenya.

Inama iba nziza iyo hajemo nk' ibintu bya morari, bagatera nk'akaririmbo bakaririmba bagasusuruka, bongera kwicara bagakora inama bameze neza, buri wese agakurikira nta bitotsi.

Inama iba nziza, iba ingenzi, kubera muba mufite ibintu mushaka kwigira hamwe, mukabifatira umwanzuro mwese muri hamwe, nicyo kiza k'inama, iyo mukoreye inama hamwe, mugira ibyo mwunguranaho ibitekerezo, ibyo mushima n'ibyo mugaya, inama ni nziza.

Inama iba nziza noneho iyo muri gutanga ibitekerezo, ugahaguruka ugatanga igitekerezo, ukumva abantu baracyishimiye bakagishima wumva bagukomeje ukumva nawe ukomeye wumva iyo nama ari nziza ukumva ibitekerezo byawe bari kubishima iyo nama iba ari nziza.

Ikiza cy'abayobozi bumva ko umuturage yahora ari ku isonga, bamugira inama yaba mu byo ari gukora bakamugira inama ,mu kazi ari gukora cyangwa mu buhinzi, ibyo byose bigatuma umuturage yiyumvamo umuyobozi, n'umuyobozi akiyumvamo umuturage bakajya inama bose.

Abantu bajya inama ntacyabahungabanya. Bajya inama y'ikintutu bashaka kugeraho kandi bakakigeraho, kubera ko baba babyumvikanyeho. Nicyo cyiza cy'inama, nicyo cyiza cyo gukora inama, kandi no kwitabira inama biba byiza, wamenya ibyavugiwemo n'ibyigiwemo.

Inama iba nziza cyane kubera ko iyo bashaka kugira icyo bageraho baraterana cyangwa bakicara hamwe bakiga gucyo bashaka kugeraho, bakakigeraho kubera ko bicaye mu bateranye.

kujya inama biba byiza. Iyo habaye nk'inama cyangwa akagoroba k'ababyeyi, higirwamo ibintu byinshi. Ibibazo byabaye bakabikemura bitagiye ku Kagari. Ibitagiye ku Murenge bigakemurirwa muri iyo nama. Inama na zo ziba nziza iyo tuzitabiriye.

Ibisabo biba byiza mu bukwe niyo umugeni asohotse afite igisabo, ubona ameze neza igisabo kiba cyiza mu birori kiba kigaragaye neza ni cyiza.

Inka z'inyambo ubona ari nziza, ubona zimeze neza, ubona mbese ziteye neza. Inka z'inyambo ni nziza, zimeze neza, uzirebye zibereye amaso.

Aba bageni ni beza, mbere yuko bajya no muri sare babanje banywa, bari kugira ngo bagende mu nda hari ikintu kirimo, bagende baguwe neza, mbona ntakibazo bafitemo.

Inanga za kera zabaga zimeze nk'imiduri. Kuzicuranga wabonaga ari byiza, zabaga zifite udutsinga, ukajya udukoraho ukumva turi kuvuga neza. Inanga za kera nazo zabaga ari nziza.

Mu muco Nyarwanda habagamo kwiyogoshesha amasunzu, ukambara ibya gakondo, ukambara ibya kera babaga baberewe, nabo mu gihe cyabo babaga ari beza kubera ko niko bambaraga, ariko ubu ni muri viziyo, ubu basigaye barahinduye imyambarire ariko n'abakera bambaraga neza.

Mu muco nyarwanda habamo kwiyogoshesha amasunzu cyangwa bakabasuka neza uba ubona ari byiza bibereye mbese ni ibintu byiza urabireba nawe ukumva urishimye bitewe n'ukuntu biba biforumye.

Inyambo ziba nziza, aho ziri ziba zitonze, zizi gugutega neza, inyambo uzibonye abona zishimishije. Ni nziza, nta cyo ziba zitwaye.

Ikirago ni cyiza iyo umuntu acyicayeho, yumva umugongo ugororotse, akumva urarambutse. Ikirago ni cyiza, iyo ucyicayeho wumva uguwe neza.

Umuco nyarwanda uba mwiza, kuboha ibintu: ibyibo, imitako, ibyo byose biba byiza iyo ari ukubyigira ahantu hamwe buri wese amenya ikintu ariga, undi akamenya icyo ariga mwese mukigishanya.

Uduseke tuba twiza, no mu muco nyarwanda ubona ari twiza, ugatwereramo imyaka ugiye mu bukwe, cyangwa se ugashyiramo ibyo ushaka, ukajya gusura mugenzi wawe, agaseke kaba keza, nk'umuco nyarwanda kaba ari keza, kaba kaboneye, ni keza cyane.

Kuvuza ingoma biba byiza, ingoma uzicanirara umuriro, ukazishusha zigashuha iyo zimaze gushuha, ukubitaho umurisho ukumva ingoma irikuderera, ukumva iri kuvuga neza.

Abakobwa bazi kurambura amaboko, ubona baberewe. Iyo bari kubyina, ubona ari abantu bashimishije, basekeje. Uri kubareba, wumva wishimye, ubona bashimishije, bazi gukinga amaboko neza. Ni ibintu biba bishimishije no kubareba.

Umuco nyarwanda, iyo wambaye mu muco nyarwanda ukambara ibintu bya kinyarwanda, biba bikubereye, uba uberewe, ukambara neza, ukambara n'utu tuntu, mbese ubona bikubereye, ukabona ni ibintu byiza, buri wese aba ashimishijwe no kukureba.

Mu muco nyarwanda habamo inanga za kera. Inanga z'imiduri, urazicuranga zikagira umurya mwiza, wazicuranga n'umuntu akumva yishimye kubera ko iyo uyicuranze wumva nawe wishimye n'uri kuyumva akumva arishimye iyi inanga ya kera iba ari nziza.

Ibiryo bya kinyarwanda biraryoha cyane wabiriye ntiwabivaho, nkiyi myumbati iraryoshye n'ibishimbo biraryoha wabiriye ntiwabivaho, njye ndabikunda.

Mu muco nyarwanda habagaho ibibindi, ibyeso, noneho nk'ibi ngibi byo biba bifite iminwa ibiri, babikoreshaga bari kuraguza byahozeho.

Ikirago kiba cyiza kukirambura ukakicaraho ugishyiraho na matora ukaryamaho, ikirago kiba cyiza ni ingenzi mu rugo kiba ari cyiza kiba gikenewe.

Intore ziba nziza zishimisha abantu, zishimisha abantu bari mu birori, zisusurutsa abantu bari mu birori ahantu bateraniye wabona ari byiza intore ziri gukoma n'ingoma.

Gufora umuheto urabyiga, ukawufora ukawuregera neza, ukabona ko aho washatse ko ugwa ariho waguye, iyo ubonye uguye aho ushaka ko ugwa, nibwo umenya ko wamenye gufora neza umuheto.

Mu muco nyarwanda habaho inzu za kinyarwanda, ukazishishisha ibyatsi, hejuru zikaba zisakaje ibyatsi, ariko ubu haje iterambere, urazishisha n'ibyatsi, ukazikora mo imbere, hejuru ugashiraho amabati, hejuru ugashiraho ibyatsi, nibyo ubona bimeze neza.

Inkono ni iza kinyarwanda, ziba nziza kuzitekamo cyangwa bagakora n'ibibindi bakabishyiramo amazi, bakabishigishiramo umusururu. Inkono za kinyarwanda ziba nziza, no mu muco nyarwanda inkono zabagamo. Tugomba kubisigasira uwo muco nyarwanda ntuzacike.

Gukina igisoro biba byiza. Mukina muri kuganira hakabamo no gushwana. Gukina igisoro biba byiza ubona ari ibyiza, ni umuco nyarwanda mwiza.

Imyumba ivamo ibicuma, hari abantu bagira ngo ibicuma barabibaza, biva mu bintu bimeze nk’ibihaza. Nabyo barabihinga, bikera bikaba bikuru, hakazavamo ibyo bihaza. Ibyo bihaza bimeze nk’ibihaza, biba ari imyumba, noneho bikazavamo ibicuma.

Mu muco wa kera habagaho inkono za kinyarwanda bagatekeraho igikamba, bakarasiraho ikibiriti bagatumamagura bakumva barishimwe. izi nkono ni izakara.

Kwidagadura bitera akanyamuneza, bitera ubuzima bwiza, bituma ubuzima bwawe buba bwiza ukumva umerewe neza, kubera ko widagaduye nta kibazo, nta mavunane uhura na yo, uba umeze neza.

Amata ari mu nkongoro araryoha, iyo umuntu ayanyweye akonje, aba akonje iyo umuntu ayanyweye amumara ni icyaka.

Mu muco nyarwanda, habagaho ingata. Zibanze neza, ukaziterekaho ikibindi, ukagenda ucyikoreye ugiye kuvoma cyangwa ugiye gutura. Izi ngata zahozeho kera, ariko ubu ziri gucika. Ariko izi ngata ziba nziza.

Umuvure uwukoresha uri gukama ibitoki, babikamamo umutobe, isekuru bayisekuriramo isombe, cyangwa ugakoresha iyisekuru uri gusekuriramo amasaka, naka gatebe ka kinyarwanda nako ukicaraho ukumva umugongo umeze neza.

Kera bajyanaga abantu mu ngobyi babashingiye, ukabona umugeni bamujyanye mu ngobyi bamuhetse bakagenda bari kumuririmbira, bari kumutaramira akagerayo iyo ageze akagerayo yishimye, uwo muco wabaga ari mwiza nubwo utakibaho, ariko uwo muco wabaga ari mwiza ukabona abageni baraberewe.

Iyo ubyina uri intore, ugira ubuzima bwiza, uhora wishimye, uhorana akanyamuneza, uhora urikumva umeze neza mubu buzima, ntakibazo uba ufite.

Ibirago mu muco nyarwanda biba byiza. Ubyanikaho, ukabirambura ukabyicaraho, ibirago biba byiza, iyo ugifite no mu rugo kiba ari cyiza, wanakiryamaho, ukumva umeze neza, ukumva akagongo karambutse.

Isekuro iba nziza mu muco nyarwanda, isekururo uyisekuriramo isombe, ukayisekuriramo amasaka yanze kunoga, akaba neza, ukayagosora nta kibazo afite, isekuru iba nziza mu buzima ni igikoresho cyiza.

Mumuco nyarwanda baboha uduseke, bakaboha utuntu twimitako, barabiboha bigatanga umusaruro, urabigurisha ku masoko ukagira amafaranga ubika ukajyira nayo gukoresha mu rugo, iyo wize ibintu nk'ibi biguteza imbere ugatera imbere muri rusange ukumva nawe umeze neza.

Ibicuma biba byiza. Mu muco nyarwanda urabikoresha, ukabijyana nko mu bukwe. Ubikoresha uri kubona ari byiza. Ukabishyiramo ikintu cyo kunywa ukabahereza, ntawe uzi ikintu kiri mu gacuma icyo aricyo, ariko iyo asomye akumva ni ikintu kiryoshye, bituma anywana apeti. Ikintu kiri mu gacuma kiba kiryosha ibicuma biba byiza.

Ibi ubikoramo imitako ugateramo nk'indabo, cyangwa ugateramo nk'imboga, ukabitondeka ku rugo biba byiza na byo umuntu arabyifashisha.

Mu muco nyarwanda habagamo amakondera barayavuzaga, abantu bakishima ukumva ari kuvuga neza akaryoshya nk'utuntu tw'udukoryo aba meza iyo bayakoresheje.

Ubugeni buba bwiza bigiramo kubaza, ukigiramo kubambamba ingoma, na byo ubona ari byiza iyo babibajije neza, urabireba ukabona bibereye amaso.

Abasaza bazi gukoma ingoma na bo biba babereye, n'umubyeyi w'umugore na we agakomamo ingoma nawe ubona ari byiza, ubona ibintu bibereye nta kuvangura.

Umuco nyarwanda wa kera abantu bagiraga amasunzu, ukabona ni ibintu byiza bibereye, n'ubu ubona ari byiza iyo umuntu yabisokoreshesheje, cyangwa bakabimwogosha ubona ari byiza.

Umuco nyarwanda habamo ingobyi za kinyarwanda, iyo urwariye ahantu hatari imodoka bagushira mu ngobyi bakakujyana ku kigo nderabuzima bakakugezayo udahungabanye, kubera ko hariho ingobyi mu muco nyarwanda zisanzwe zibamo nicyo kiza k'ingobyi, ahantu hatari imodoka barakujyana ukagerayo neza.

Ibiryo bya kinyarwanda biraryoha, ibihaza n'ibishyimbo noneho n'ikidodoki, biba ari ibiryo biryoshye cyane cyane, umuntu wabiriye, aba ariye indyo yuzuye, itagira amavuta.

iyo uzi kugosora neza ukagosora imyaka yawe, byaba ibishimbo, byaba amasaka, byaba ibigori. Ukabigosora ukabibika bigosoye ntibipfa, biba bisa neza ukabigurisha bimeze neza.

Uhingaga wishimye ugakore umurimo wawe wishimye, ukaragera ahantu urireka uragera nta kibazo, wumvaga ari byiza iyo ukora ikintu wishimiye wumvaga nawe mu mubiri wawe umeze neza, ukumva hari' ikintu kiri kwiyongera mu mubiri wawe.

Intore ziba nziza ubona zishimishije, ziryoshya ibirori, ziratarama abantu bakishima, abantu ukabona baranezerewe. Intore ziba ari nziza, aho ziri hose zinambara neza. Ubona ari nziza.

Imitako iba myiza, iyo uzi kuziboha ntabwo wabura amafaranga, uzijyana ku isoko, ukazigurisha bakaguha amafaranga, ukiteza imbere, ukagura ibyo ushaka, imitako iba myiza rwose iyo wamaze kumenya kuyiboha, yatuma witeza imbere.

Agatebe ka kinyarwanda kaba keza iyo ukunda kukicaraho wananiwe, wananiwe nk'umugongo, wicaraho kumva wa mugongo urarambutse ukumva ubaye neza.

Ibyibo biba byiza umuntu abijyanamo ipfukire, ugiye gutwerera cyangwa ugiye gusura, ikibo kiba cyiza mu muco nyarwanda ni cyiza kugikoresha.

Intore z'abagore ubona zishimishije, zisekeje cyane. Iyo ziri mu ibirori zirabishusha, ukabon n'abantu basusurutse, ukabona abantu bameze neza barakeye barishimye.

Kwidagadura ni byiza, barambuye amaboko bishimye, bameze nk'intore bameze neza barishimye, ibyishimo ni byiza mu buzima bwacu.

Inzu nyarwanda tugomba kuzisigasira, nti zizacike burundu kuko ni umuco nyarwanda, kandi aho iri iba iberewe, tubona imeze neza, aho ziri tugomba kuzibungabunga.

Iyo ujya mu gitaramo cy'ababyinnyi nk'abangaba ntabwo wigunga, wumva umeze neza ukumva umubiri wawe umeze neza uratekanye, biba byiza iyo ubirimo.

Imitako iba myiza iyo iboshye neza, irimo amabara meza avangavanze urazitaka ukabona irahabereye, ukabona ni myiza no kuyireba, ubona ibereye amaso ari myiza cyane, imitako iba myiza.

ngoma iba nziza kuyivuza. Iyo ugiye kuririmba ugakubita ingoma birajyana bikajyana n'umudiho w'indirimbo, wumva ari byiza . Wumva ibintu bishyushye, aho ingoma iri kuvugira wumva ibyo bintu binejeje, ukumva ni ibintu byiza.

Gucomeka cagi, ugacaginga terefone, bituma umuriro ujyamo uri kwiruka, iyo ari purize nziza bakanitse neza. Yinjiza neza, ukabona umuriro uri kwinjiramo uri kwirukanka cyane, bigatuma terefone yawe yinjiza vuba , cyane cyangwa se radio wacaginzeho ikinjiza vuba vuba.

Iyi saha iba nziza, uyireberaho isaha, ukayireberaho kuri tiketoke, mbese iyi saha ifitemo ibintu byinshi by'iterambere, kuyikoresha ni ikintu cyiza.

Kompiyuta kuyikoresha mu ikoranabuhanga iba nziza iragufasha, ibyo ushaka n'amadosiye uyabikaho. Ibyo ushaka mbese byose ikabigukorera, iyo uyizi nta kibazo.

Ahantu basengera haba hatandukanye n'urugo rwo kubamo, urusengero ubona rutandukanye n'inzu y'umuntu ku giti cye ntabwo biba byubatse kimwe wabitandukanya.

Aya mashuri ari ahantu heza, ahantu hirengeye ahantu hafite umuyaga, abana bahakiniye bumvaga bameze neza, haba hari akayaga amahumbezi nta zuba ryinshi ryabageraho bari gukina ni ahantu heza.

Gusenga ni byiza bitugirira umumaro, bituma ujya aho abandi bari, waba wihebye ukumva wongeye, Imana igusubijemo imbaraga, ukumva urakomeye, nicyo kiza cyo gusenga.

Amashuri aba meza tuyareremo abana, nicyo cyiza cy'amashuri, ikintu cyiza cy'amashuri atuma abana bajijuka, agatuma batigunga, amashuri aba meza n'ingenzi.

Sitasiyo banywesherezaho risansi, na yo ubona imeze neza, iba yubatse neza, n'ibinyabiziga bigenda bitari kubyigana, kubera ko haba hisanzuye, ari hanini, ari hagari.

Umudugudu uba mwiza, iyo abantu bawutuyemo baba begeranye, ntawugiraga ikibazo ngo atabaze kure bahita abamutabara, nicyo kiza cyo gutura mu mudugudu ubona ari byiza kuwuturamo.

Amatiyo adufasha kuzana amazi umuturage akagira amazi amwegereye iyo babonye amatiyo hafi, utugari baradufasha bakadutera inkunga umuntu akabona amazi mu rugo iwe.

Jaride cyangwa ahantu hameze neza bakoze neza ubona kuhareba ari heza no kuhifotoreza ukabona ni byiza. Haba hatandukanye n'ahandi hantu ubona haboneye hacyeye.

Amashuri meza aba afite n' ikibuga cyiza asiza amarangi, akeye n' abayigamo bumva bameze neza, bari kwigira ahantu heza bumva nabo bameze neza batari gutinya ngo amashuri yacu aratugwaho, amashuri bubatse neza ari meza.

Kompuwita iba nziza n'imashini yogufotora impapuro. Idufasha iyo ushaka kugira ibintu byanditse bisohoka k'urupapuro rwiza, ukoresha iyi mashini niho ujya gufotoza niyo mpamvu izi mashini nazo ziba nziza tukaziyifashisha.

Aya mazu ni meza imbere n'inyuma ni meza, iyi pasiparumu kuyicaramo ni byiza, ni umunyenga kuba uhicaye rwose ni umunyenga, ni byiza cyane.

Karoti ziba nziza ahantu hose wazihinga ziba ntacyo zitwaye. Ntizonona, ntacyo zibangamira, kuzihinga ni nziza ntaho zitaba.

Iyi nama iba ari nziza, kubera ko iyo muri mu nama mwungurana ibitekerezo, icyo mushaka kugeraho mukakigeraho, kubera ko mwakigiyeho inama, mukacyumvikanaho.

Icyapa kiriho ubusobanura bw'ahantu ahariho kiba cyiza, iyo uhageze utiriwe urabaza, urasoma ukamenya icyo cyapa icyaricyo, naho gisobanuye.

Ikiza cyo gutura mu mudugudu, ujya ku bitaro bitakugohoye, ukajya ku ishuri bitakugoye, kubera mwese muba mwegeranye, nta n'uwatabaza umuntu ngo amubure.

Kubaka rigori zo gufata amazi, cyane cyane nk'ahantu h'ibice by'ishyamba, amazi agenda neza, ntihagire imyuzure iba, ntihagire umuntu asenyera cyangwa ngo amubangamire.

Urusengero ruba rwiza cyanga ikiliziya na cyo kiba cyiza kuko iyo uhageze uhita uhibwira, ukamenya ko ari ahantu gusengera, bitewe n'uko hubatse, umenya urwo rusengero urwo ari rwo, haba hariho n'ikirango cy'iryo torero, iryo ari ryo.

Aya mashuri ni meza, naba banyeshuri bambaye neza, n'amasomo bariga barayafata neza, kubera ko bameze neza bari ahantu heza...

Aha haba ari nk'ihuriro bahurira bakajya inama z'iterambere ry'uko babona nk'akazi, bakabijyaho inama, bahuriye hamwe ahantu nk'aha mbese bose bashimye.

Aya mashuri yama etaje ni meza, asa neza, yubatse neza, arubakitse. Ameze neza ntacyo abaye, no kuhifotoreza ni byiza.

Urusengero runini, ruba rwiza, rutuma abantu bicayemo baba bisanzuye, kubera ko ruba ari runini, rufite ubugari. Abakirisitu bicayemo, baba bisanzuye, nta kibazo bafite, bakumva bari no guhumeka.

Urusengero ruba rwiza iyo rufite ibintu byose: rukaba rufite parikingi, rufite ibigega, rufite jaride, aho hantu haba ari heza, abantu bahateraniraga bameze neza, bakabona ko bisanzuye aho hantu haba ari heza.

Urusengero cyangwa Kiliziya. Biba byubatse neza, ku buryo ubigeraho ukabona ko ni ikiriziya kimeze neza, cyangwa akaba ari urusengero uri kubona rumeze neza, abakirisitu barimo baba bisagaguye kubera ko ruba ari runini ntabwo babyigana, baba bisanzuye.

Uri umuntu usenga cyane, ukagera ku ishusho ya Bikira Mariya, uri umukirisitu ujyanye n'iryo torero, urarisingiza bitewe n'imyemerere yawe, ishusho ya Bikira Mariya urayemera, bitewe n'uko uri umukirisitu wa Kiliziya. Urahagera ukahaha agaciro.

Inka iba nziza iyo uyororeye mu kiraro urayigaburira ubwatsi bwose ikaburya, uyishiriramo umunyu ikawurigata, nayo iba iri ahantu heza, ita amase ukayakuramo, wamara kuyakuramo ikimukira n'ahandi hahandi habaye nabi, niyo mpamvu kubaka ikiraro ari byiza ugashyiramo inka.

Ikigo cy'amashuri cyubakiye kiba ari cyiza, cyangwa aho urusengero rwubakiye rufite korotire, na rwo ruba ari rwiza, nta kajagari kabamo, barakinga, nta bajura bajyamo uko biboneye, ruba rufite n'umuzamu, aho hantu haba ari heza cyane.

Inzu y'ubucuruzi iri ku muhanda, iba igomba kugira ahantu hanini h'urubaraza, waparika nk'imodoka cyangwa ugashyiraho moto, kugira ngo n'abanyamaguru bagiye mu iryo duka, bajyemo ntawe ubangamiye undi, ibyo bintu biba ari byiza ku nzu y'ubucuruzi.

Kubaka fondasiyo ugomba kuyubaka ahantu harehare wacukuye, amabuye akazamuka ari maremare. Fondasiyo iyo ari ndende, iyo nzu iba ikomeye cyangwa amashuri akaba akomeye, ugashyiramo sima ikomeye, ayo mashuri ugiye kubaka, uba wizeye ko akomeye neza.

Akagoroba k'ababyeyi kaba keza. Iyo bateraniye hamwe bigiramo ibintu byinshi, bakaganira ku kintu cyabateza imbere. Iyo bari hamwe bungurana ibitekerezo, buri wese akazana igitekerezo cye, icy'ingenzi akaba ari cyo bagenderaho, nicyo cyiza cy'inama.

Tugomba kwitabira inama, kuko inama ziba ari nziza wumviragamo ibitekerezo, ukumviramo ibitekerezo by'iterambere, ibintu byigiwemo utaruzi ukabimenya, akagoro kababyeyi kaba ari keza no kukitabira biba ari byiza.

Gare yubakiye, ubona ari nziza iba ifite umutekano usesuye, gare nta nimpanuka yaberamo, gare iba ari ibintu byiza cyubatse neza abantu bakagenda nta kibazo bafite bameze neza haba hisagaguye.

Moto za lifani zipakira imizigo neza biri inyuma zigapakira neza, iyari ibigori zirabipakira, amabati zikayapakira, zipakira n' amasima, zipakira na mabati iyo wabiguze ntabwo ugira ikibazo cy' iyo biragera kubera ko haje ibintu byinshi bidufasha gupakira.

Iyi modoka igemura za peteroli, mazutu, esanse . Ariya ma sitasiyo tubona ni izi modoka zibijyanayo .

Iyo ufite ikinyabiziga cyiza kigufasha kujyana ibicuruzwa, bakaguha ikiraka ukabijyana aho bakubwiye, bigatuma ubona amafaranga, ukiteza imbere. Nicyo cyiza cy'ikinyabiziga uba uri gukoresha.

Uyu mujyi umeze neza, usa neze, urakeye, uraratatse, uri no kugendwa. Uyu mujyi ni mwiza, niba ari uwa Kigali, waba ari mwiza cyane.

Umwajenti abona gucuruza ikintu kimwe kitari kumuha inyungu, cyangwa ashaka indi nyungu agakora n'utundi tuntu, agacuruza ubunyobwa, agucuruza amabombo, agacuruza utundi tuntu aho ngaho. Ushaka mituyu aramuha waba ushaka n'ubunyobwa na bwo akabuguha mu buryo bwo kwiteza imbere, ucuruza utuntu twose uri kubona twaguha amafaranga.

Imodoka zipakira imizigo zigomba gupakira ibintu bingana n'ubushobozi bwazo, kuko iyo zirengeje ibyo zipakira zirapfa. Niyo mpamvu zigomba gupakira ibintu bingana n'ubushobozi bwazo.

Iyo uri mu modoka uba ugomba kugenda witonze, ukagenda uri kureba muri torovizeri impande zose, ugenda witonze kugira ngo imodoka yawe idahutara, igahura n'ikindi kinyabiziga, kubera ko warangaye.

Imodoka iba nziza iyo ukoze urugendo rurerure, urasinzira, ukicura, ukongera ugasinzira ,ukicura. Kubera uba wagiye mu modoka nziza, ifite uburebure, ifite ubugari, imeze neza, ituma ugerayo neza nta mavunane ufite.

Umuhanda uba mwiza udafite ibinogo, uri kuwugendamo awugendamo ameze neza, ikinyabiziga kigenda kitari kwisimbiza, kitari kwiterera, n'unyegare yaba ahetse n'umugenzi akagenda ameze neza, igare ritari kwiterera. ugenda umeze neza iyo umuhanda umeze neza.

Imodoka binini bifasha abantu kugenda ingendo za kure baragenda bakagerayo ntakibazo bahuye na cyo. Imodoka nini ni nziza zijyana abantu benshi bakagerayo ntakibazo ,bakagerayo bisanzuye. Niyo mpamvu imodoka nini zibaga nziza.

Ugenda ku igare uba ugomba kugenda witonze, ukagenda utari guhuruduka, ukaba ufite n'inzogera. Umuntu yaba ari mu nzira ukavuza inzogera, ukavaho ukagenda witonze ahantu hamanutse.

Imodoka iba nziza, ikadufasha. Ariko na yo ntuyinanize ngo upakiremo ibintu idakwiye kujyana, birengeje ubushobozi bwo kuba yakwikorera, na yo irapfa iyo uyipakiye ibintu byinshi.

Iyo umuntu ari muri gare, abagomba kureba neza ibintu bye, cyagwa se akareba ko afite umutekano wuzuye, kuko muri gare haba harimo n'abasambo bashaka kwiba.

Iyo wahinze neza ibihingwa byawe, ukabyitaho, ukagira umusaruro, ubijyana ku isoko, ugasagura. Uba warasaguriye isoko, ukajyana amafaranga mu rugo, ukongera ukikenura, ugakora ibindi bintu ukoresheje ya mafaranga wakuye mu byo wahinze.

Imodoka nini ziba nziza zitwara abantu benshi kandi zikabagezayo nta kibazo ntabwo baba bari kubyigana baba bari kugenda neza bameze neza nicyo cyiza cy'imodoka nziza ariko korari igenda neza ikagerayo bose bakagererayo rimwe, nicyo cyiza cy'imodoka nini.

Gare yubakiye ikaba ifite igipangu, ica akajagari k'imodoka zitagomba kujyamo zidafite icyo zigomba gukoramo, akaba ari imodoka z'abagenzi.

Gare yubatse iba ari nziza, iba ifite imiryango ibiri, cyangwa ikaba ifite umuryango umwe, ariko yubatse ikinze ubona ari nziza, iyo imodoka igiye gosohoka inyura mu ruhande rumwe n'indi ikanyura ahandi, nta kavuyo ziba zifite izi zo ni nziza cyane rwose.

Imoto nayo iba nziza hari nk' ahantu wajya imodoka itajyayo, ikakugezayo ukabona ugezeyo vuba ntukerererwe mu nzira nayo ibaga nziza moto.

Muri gare haba heza, habamo aho kwicara utegereje imodoka irakujyana, icyiza cyo muri gare ubu utega imodoka nta byo guhagarara ku muhanda, imodoka yo muri gare iba ari nziza no gutegera muri gare ni byiza.

Ibara ry'umuhondo ku modoka ubona ari ryiza, kubera inyinshi ziba zisa n'umwe n'umutuku, umuhondo uba ari mukeya. Iri bara na ryo ribera imodoka. Mbona isa neza.

Amakamyo agagemura ibiribwa, akajyana ibintu byinshi ku masoko, atwara ibintu neza, akabigezayo nta kibazo, atari cya kintu kimwe kimwe urajyana kimwe kimwe, kandi babivana kure mu mahanga bakabigeza mu Rwanda nta kibazo ahuye nacyo, ibintu byawe bikakugeraho nta kibazo, ibyo watumije ukabona urabibonye nta kibazo ufite.

Abamotari, iyo bambaye amajile bose, ubona basa neza, ukabona baraberewe. Iyo umumotari yambaye umwenda umuranga, ubona ameze neza, asa neza, ukanamwibwira.

Ubwato buba bwiza cyane, ubugendamo ufite imyenda yabugenewe, kugira ngo iyo urohamye barakurohora kubera ko uba wambaye imyenda yabugenewe, icyiza cy'ubwato urabutega ukagenda hejuru y'amazi, bukambuka ukagera iyo uragera nta kibazo ufite, ubwato buba bwiza cyane.

Kwidagadura biba byiza bituma umuntu yishima, bituma umuntu amererwa neza, akirirwana akanyamuneza iyo yabyukiye muri siporo, bituma yumva ameze neza ni icyo cyiza cyo kwidagadura, ibyo kwidagadura ni byiza.

Abakinnyi bajya inama y'ibyo barimo, ibyo bagiye gukora, bagafata n'ifoto, iyo bakoze inama bajya inama y'ikintu bagiye gukora, barangiza bagafata n'agafoto k'urwibutso k'ibyo bari barimo, burya na bo inama ya bo iba ikenewe, kuko barunganira.

Iyo uri umukinnyi ugakina neza bakaguha igikombe, wumva ufite agaciro, nawe bigutera ishema mu bandi, ukumva urishimye, ukumva urizihiwe, icyo gikombe wumva mbese nawe ugifite ari byiza, ukumva nawe ufite agaciro kuba waratwaye igikombe.

Iyo wizeye neza, uhagarara neza, ukumva urakomeye, ukumva ntacyagukanga, ukumva ukomeye. Iyo wiyizeye rero, uri kumva nawe ntakibazo ufite, wiyumvamo ko nawe uri umuntu ukomeye, ukumva umeze neza.

Izi ni sitade nini cyane cyane, bahuriramo nk'abagiye gukina umupira cyangwa habaye nk'ibindi birori, bahuriramo bagakora ibirori byabo.

Umupira uba mwiza kuwukina bitum wuamva umeze neza ukumva wisanzuye mu bandi, ukumva gukina ari ibintu bikuri mu maraso. Umupira ubamwiza kuwukina iyo utsinze nk'igitego wumva wishimye cyane.

Futuboro iba nziza, ituma ugira umubiri ugororotse, ingingo zikora neza, amaraso agatembera neza, ukumva wishimye, ukumva umeze neza, uba ugororotse ahantu hose, ingingo zose, uba uri gusimbuka ukagera n'ahantu harehare, bituma ukora siporo y'uburyo bwose.

Picine iba nziza, iyo uhatembereye uyogeramo, ugakiniramo, ukumva umeze neza, ukumva umubiri wawe urasusurutse, ukumva umeze neza ntaki kibazo ufite, nta mavunane ugira iyo watembereye ukoga muri pisine.

Amakuruse y'amagare aba meza kuyareba, nabayarimo aba ari meza, atera ibyishimo, ukumva n'ingingo zigororotse, ukumva umerewe neza.

Pisine iba nziza iyo wateye imbere ukayijyamo ukayogeramo, ugakiniramo wumva umeze neza, ukumva umubiri wawe urasusurutse. Pisine nini ni nziza mu buzima.

Sitade iyo yubatse neza, abakinnyi barimo nta bwo banyerera, n'iyo imvura yagwa bakomeza gukina, bakirukanka nta kibazo bafite, kubera ko iba yubatse neza nta kibazo.

Iyo umuntu akina iyi mikino imugorora ingingo, igatuma yishima, igatuma yisanzura, ituma yumva ameze neza nta kibazo agira.

Amakurusi aba meza wasiganwa ukaba ufitemo inyungu, iyo ubaye uwambere ugatsinda baraguhemba. Amakurusu ni meza nayo agira iterambere iyo wayitayeho.

Gukina umupira bituma umuntu yishima. umupira uba mwiza. Urisanzura, ukumva mu mubiri umeze neza, kubera kuba wakinnye n'abandi. Wumva ushimishijwe no kumva watsinda nk'igitego. Wumva ari agaciro, wumva ari byiza.

Iyo uri umukinnyi, ufite ikintu ukina. Ukabona icyo kintu uri kugitsindamo, ukabona rwose wumva wizihiwe, ukabona n'abantu bari kukureba, ukabona mbese wumva wishimye, iyo uri umukinnyi ukavuga uti ubu nkurikiwe n'abaturage, wumva ari ibintu bigushimishije.

Kwidagadura biba byiza, bituma usabana n'abantu bituma utigunga biba byiza iyo ugenda ukora siporo ugiraga ubuzima bwiza, ukumva umeze neza, umeze neza nk'umubiri, amaraso agatembera neza, ugira ibyishimo ugasabana n'abantu bose, ukumva umeze neza.

Iyi balo iyo uyikina wishimye, umubiri wawe uba mwiza, ntamavunane ugira uba wishimye, ukumva umeze neza, gukina balo ni byiza.

Ukina umupira, ugomba gukina witonze, ugakina nta mahane, nturwanye mugenzi wawe ngo wumve ko wamukomeretsa kugira ngo utsinde. Nicyo cyiza cyo gukina umupira neza, ugakina ntaguhubagurika, nibyo biba byiza.

Gukina bituma umuntu agubwa neza, wiyongera n'iminsi, uba wishimye. Basikete ni nziza ntakibazo.

Umuntu wese ukina umupira ubona ameze neza, abakobwa bameze neza, barishimye, bari gukina, uri kubona bishimye bari gukina ibintu bibarimo, bameze neza.

Iyo mwicaye ahantu heza nkaha, muri kuganira, ibiganiro byanyu bigenda neza kubera ko uba uri kumva akayaga, hatuje ubona ari byiza rwose.

Amakurusi aba meza iyo ugeze ku bantu bakagufana ugenda ufite morari ugenda ufite kuraje, iyo bari ari kuvuza akaruru bari kukogeza wumva ari byiza nakumva wongeye kugira imbaraga, ukongera ukirukanka ugasiga n'abari bakurenzeho, kube uri kumvise bari kuguha akamo, kugukomera ukumva ni byiza.

Iyo ukina umupira uba ufite ubuzima bwiza, butuma n'amagufa agororoka, uba ufite ubuzima bwiza, nta mvune uhura nazo kubera ko iyo uri gukina umupira nabyo bikongerera ubuzima bwiza.

Iyo abantu bafite nk'ikintu bakora icyo kintu bakibahembera barishima, bakifotoza ifoto y'urwibutso mbese ukabona bameze neza nta kibazo bafite ibintu biba ari byiza.

Iyo imodoka iri kwihuta cyane, uwabona ifite imyotsi myinshi. igira n'ivumbi ryinshi ikagende irigutumura, irigutumurira abantu ivumbi, mbese ubwo ubona atari byiza.

Gukina umupira biba byiza mu buzima .bigufasha kwisanzura ,bikagufasha no gukina n'abandi, ukumva umerewe neza. Wumva umubiri wawe umeze neza, uba wisanzuye mu bandi ukumva nta kibazo ufite.

Kwidagadura biba byiza, iyo ugiye nko kogera mu mazi woga ufite akanyamuneza ukidumbaguza, wumva umeze neza ukumva umerewe neza, kubera kogera mu mazi menshi amazi atari gutemba, bikugwa neza cyane.

Iyo ukina futubolo, ukina wishimye, ubuzima bwawe buba buri kugenda neza, umubiri wawe ugakora neza, Kubera ko iyo wakinnye ino mikino, wumva umeze neza.

Gukina uwo mukino w'amaboko wo kwidagadura, ugutera kumva unanutse mu mubiri, wumva ufite akanyamuneza ukumva nta kibazo ufite, uba wagororotse.

Gukina umupira waba uri munini, ubyibushye, cyangwa uri muto uringaniye, ntakibazo ugira. Icyagombwa ni uko uba wabyishyizemo bikurimo, bituma ukina ufite morali, ukumva uri gukina bikurimo, ukumva umeze neza.

Amarigori aba meza, afata amazi ari kunyura hafi n'umuhanda, iyo ari magari, amazi aratemba ntatembane abantu, cyangwa isuri y'ayo mazi igire ibyo yangiza kubera ko harimo amarigori yubatse neza, afasha abaturage, amazi ntatembere mu mazu yabo.

Umuhanda wa kaburimbo uba mwiza, uba ukoze neza, haba hariho ah'abanyamaguru n'ahimodoka. Uwo muhanda uba umeze neza kuwugendamo. Ugenda wisanzuye, kubera ko haba hari ah'abanyamaguru n'ah'imodoka, haba hatandukanye.

Amapave aba meza iyo uri kuyareba mu mbuga, urakubura ukabona ni byiza nta n'ibyatsi bimeramo, amapave ubona ari meza mu mbuga.

Aha moto ziparitse ni ahantu hari ibitaka, bahakoze hagira iterambere n'abahakorera na bo bakagira iterambere ryiza ni byiza.

Ikinyabiziga iyo ucyicayeho harimo kino cyirori, kiba cyiza uba uri kureba imodoka iguturutse inyuma, cyangwa ikindi kintu kiguturutse inyuma, uba uri ku kireba bigatuma wirinda.

Inzu z'ubucuruzi iyo ziri ahantu habi hatatanga umusaruro ntabwo zibona abakiriya, ziba zikinze zihora zikinze kubera ko nta musaruro zatanga ziri ahantu hatameze neza.

Inzu yo ku muhanda, iri hafi na kaburimbo, igomba kuba ifite isuku, ikeye, igira n'utuntu two kuzamukiraho, mbese iba ari nziza, kubera ko iba iri ku muhanda neza.